Umwana ukiri muto uri hagati y'imyaka itanu ndetse n'ikenda, yagiye kuvoma amazi ku gishanga, yambaye agapira kadafite amaboko ndetse n'akajipo bigaragara nk'aho ari nko mu muryango utifashije.

Ababyeyi b'abamama ndetse n'abagabo bafite abana bahuriye hamwe, ababyeyi bambaye imyenda y'umweru, aba bantu babasuye bambaye imyenda y'umuhondo bari guha abana amata bateruwe n'ababyeyi babo, urabona ko ari nk'igikorwa kijyanye no kwita ku bana, ubuzima bw'abana kugira ngo bugende neza.

Abana bakiri bato b'abirabura babonye umugezi ubaha amazi bawuteraniyeho ari benshi, baje kunywa amazi meza kugira ngo bagire ubuzima bwiza, bamwe bashoboye kuyageraho, gusa abandi baracyari inyuma y'abari kuvoma bavomesha intoki bayanywa, bategereje ko bavaho na bo bakajyaho bakaba babona kuri ayo mazi meza.

Umubyeyi wambaye akagofero mu mutwe, agapira ndetse yakenyeye n'igitenge, yaje ku mugezi kuvoma amazi, yashyizeho ijerekani ategereje ko ijyamo amazi kugira ngo ajye kuyifashisha mu buzima bwe bwa buri munsi, anagire ubuzima bwiza.

Abantu batandukanye, bahuriye ku mugezi baje kuvoma amazi, hari abitwaje indobo, amajerekani, utubido duto ndetse n'ibindi bikoresho abantu bashobora kwifashisha bavoma. Umugezi urafunguye amazi ari kujya mu ndobo ndetse n'ibindi bikoresho bateze. Harimo abagabo, abana ndetse n'abagore.

Umwana muto wambaye imyenda idoze mu gitenge, ari kuvoma amazi ku mugezi kuko iruhande rwe hari ibijerekani bigera kuri bitatu byose asa n'aho yamaze kubivoma cyangwa atarabivoma, ubu yateze intoki ku mugezi ari kuvomera amazi mu ntoki, arimo gukaraba intoki kugira ngo agire isuku.

Abaganga babiri bicaranye ku ntebe bombi bambaye udupfukamunwa, umwe afite imisatsi ya kizungu, undi afite umusatsi usanzwe, iruhande rwabo hari abagore n'abagabo baje kwivuza, imbere yabo kuri abo bicaye kuri abo baganga bicaye hari umugore nawe wambaye agapfukamunwa waje kwivuza, iri Vuriro risa naho ari Ivuriro ry'ibanze nkamwe yagiye yubakwa mu Rwanda.

Abaturage bicaye ku ntebe, abagore n'abagabo, abagore bateruye abana hagati yabo hari umugabo wambaye itaburiya y'umweru asa naho ari kubasobanurira, inyubako barimo ni iy'amabara y'umweru hasa naho ari kwa muganga.

Umugabo uhagaze, wambaye inkweto zifunze ariko zishaje cyane, ipantaro y'umukara ariko yashwanyaguritse ndetse n'agasengeri nako kashwanyaguritse, ahagatiye umufuka ndetse n'ikindi kintu mu kandi kaboko, inyuma ye hari imodoka ishobora kuba itwara imizigo. Uyu mugabo asa nk'aho atameze neza, afite uburwayi bwo mu mutwe.

Abantu icyenda harimo abagore babiri ndetse n'abagabo barindwi, benshi bambaye imyenda y'umukara hejuru, uretse umugabo umwe wambaye umupira w'umweru, undi wambaye umupira ujya kuba umuhondo ariko werurutse n'undi wambaye ishati ijya kuba ubururu ariko bwijimye, bafite agapapuro bafasheho bose bigaragara ko ari nk'amahugurwa basoje ibijyanye no kwa muganga.

Umugabo uhagaze mu kayira k'abanyamaguru ariko yambaye imyenda yacikaguritse, ipantaro ndetse n'ishati, afite umusatsi mwinshi cyane ndetse n'ubwanwa bisa naho ari umurwayi wo mu mutwe.

Umugabo ndetse n'umugore hagati yabo hari umwana bafashe, umwana akaboko ke kari ku rutugu rw'umugabo, umugore nawe afashe akandi kaboko ndetse n'ahajya kuba mu nda, bigaragara ko umwana bafashe afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, kuko afite n'agakoni ashobora kuba yifashisha agenderaho, umugabo afite umusatsi ndetse n'umugore afite undi musatsi.

Abana bato bambaye impuzankano y'ishuri bigaho, bari kwiborosa bakora isuku y'amenyo, kuko isuku ari isoko y'ubuzima, barishimye bafite akamwenyu mu maso, bameze nkaho bamaze kurya nyine bakaba bari gukora isuku y'amenyo.

Umusore wambaye umupira ufite ijosi rinini cyane ukaba ari uw'amaboko maremare, uri mu ibarari ry'ikijuju kijimye, afite umusatsi utari mwinshi, arishimye cyane. Afite agashushanyo mu ntoki ze kagaragaza ahari amenyo. Mbega muri make ari kwigisha abantu ibijyanye n'amenyo.

Inyubako nziza y'umweru, hejuru y'umuryango wayo hariho isaha ishobora kubwira abantu igihe, harimo ibikoresho byo kwa muganga bishobora kuba byifashishwa mu kuvura abantu indwara z'amenyo.

Umukobwa wagiye kwivuza amenyo muganga ari kumwitaho yambaye ga afite akuma gakorogoshora mu menyo, umukobwa yasamye ategereje ko bamubwira ko asoje kumuvura agataha cyangwa muganga akamuha undi munsi agomba kumwitaho.

Umubyeyi n'umwana bari gusoma udupapuro turi ku meza imbere yabo baricaye, umubyeyi yambaye umupira w'umweru n'umwana yambaye umupira w'umweru gusa urimo utudomo, umwana afite natirere, undi yaranyereje umusatsi.

Umugore n'umugabo bari muri siporo, umugore ni umuzungu afite imvi ku mutwe, yambaye agapira k'umweru ndetse n'agakomo ku kaboko k'ibumoso, mu gihe umugabo ari umwirabura yambaye agapira kajya kuba umukara, we ni umwirabura, yiyogoshesheje, yambaye isaha ku kaboko ndetse n'impeta igaragaza ko yashyingiwe.

Umwambaro mwiza cyane ndetse n'amadarubindi, umugore wa nyakubahwa Paul Kagame madamu Jeannette Kagame, ari gutanga ikiganiro ku buzima bwo mu mutwe aho ari kuvuga ko nta buzima buzima umuntu yagira mu mutwe adafite ubuzima bwiza.

Amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, ayanditswe mu ibara ry'umukara yanditswe mu kaga k'umweru ndetse n'umweru wijimye, ayanditswe mu ibara ry'umweru yanditswe mu bururu ndetse no mu bururu bwijimye.

Ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda, cyane cyane kiragaragaza ko ari Minisiteri y'ubuzima, iri nko mu gushishikariza abaturage ibintu runaka, iki kirangantego cy'Igihugu kigizwe n'ingabo iburyo ndetse n'ibumoso, hejuru izuba, agaseke munsi yaryo, ibumoso ishaka ndetse n'ingabo n'imigozi isobekeranye.

Umugore wagiye kwikingiza asa naho yagize ubwoba kuko afite ubwoba bwinshi mu maso yahumireje, yambaye agapfukamunwa. Abaganga bari kumwitaho umwe n'umugore undi ni umugabo, bari kumutera urushinge ku rutugu bose bambaye udupfukamunwa.

Umusore ndetse n'umukobwa, bombi bafite ibyapa byanditseho bibiri na mirongo itatu, umukobwa yambaye inkweto z'umukara, ipantaro y'umweru, afite umusatsi mwiza w'abakobwa unyereje, umusore yambaye inkweto zifunze, ipantaro ijya kuba kake ndetse n'ishati yatereje baraberewe bose.

Inzu nziza igeretse kabiri igaragara nk'aho ari ivuriro abantu bashobora kujyaho bagiye kwivuza indwara zitandukanye ariko rikaba ari ivuriro ryigenga, imbere yayo haparitse moto ndetse hari n'ibyapa bishobora kuyobora abantu.

Inyubako nziza, irimo ibitanda byo kwa muganga, bimwe abarwayi nyine baba baryamyeho, hejuru yabyo hari inzitiramibu, hari n'amarido y'ubururu, ibitanda ni bya bindi bashobora kuzamura imisego yabyo cyangwa bakayimanura, inyubako irasa n'umweru hasi ndetse no hejuru.

Inyubako nziza cyane itatse neza hasi ndetse no hejuru, inyubako irimo intebe ndetse n'utumeza abantu bashobora guterekaho udukayi cyangwa uducupa tw'amazi, inyubako imeze nk'aho ari mberabyombi, ishobora kuberamo inama cyangwa ibindi biganiro.

Inyubako nziza zubakishijwe amatafari ahiya, hari igiti kinini cyane cyihateye imbere yazo, cyegeranye n'ubusitani ndetse na pasiparume ndetse n'izindi ndabyo zitandukanye, bisa n'aho ari inyubako zo kwa muganga abantu bajya bagiye kwivuza indwara zitandukanye.

Inyubako yo kwa muganga irasa n'umweru, iruhande rw'ibumoso harwariye umurwayi ariyoroshe ari kuri serumu, iruhande rw'iburyo hari igitanda gifite bomboni kitariho umurwayi.

Inyubako yo kwa muganga isa n'umweru mu mpande zitandukanye, uretse ko hari n'aho hasa n'ubururu bwerurutse, amatara ari kwaka, harimo ibitanda bya bindi bashobora gusunika bakacyimura kuko gifite amapine, muri make ni inyubako igezweho yo kwa muganga.

Inyubako zo kwa muganga, ni benshi bitandukanye. Harimo ubusitani bwiza, hari n'icyapa kiyobora abarwayi baje kuhivuriza, cyerekana amerekezo y'aho bagomba kunyura kugira ngo babavure. Hari igiti kinini cyane ushobora kugamamo izuba, ndetse izi nyubako ubona ko ari nshyashya, zubatswe vuba.

Inyubako nziza igaragara neza, irimo intebe zegamirwa zifite imifariso abantu bicaraho, irimo n'akanyamasyo keza na ko inyubako irimo amabara nyine atangaje bigaragara ko ari inyubako yo kwa muganga cyangwa abantu bashobora kujyamo bakeneye nko kuruhuka.

Umugore wagiye kwa muganga yicaye ku gitanda ariko yoroshe amaguru, ari kureba mu maso y'umuganga w'umugore waje kumuvura, umuganga yambaye umwambaro w'abaganga, inyuma yabo hari undi mugore na we uryamye ku gitanda bigaragara ko na we ari umurwayi.

Inyubako ngari yo kwa muganga, yubakishijwe n'ibikoresho bigezweho, ku mpande zayo ni ibirahure, imbere ni ibikoresho bigezweho byo kwa muganga birimo, bigaragara ko iyi nyubako ishobora kuba ihenze cyane.

Ibikoresho byo kwa muganga, birimo raboratwari yifashishwa basuzuma indwara zitandukanye, iruhande rwayo hari utundi dukoresho dufatanya na yo mu kuvumbura izo ndwara zigiye zitandukanye.

Inyubako zubatswe ku buryo bugezweho, inyubako nziza cyane zo kwa muganga zifite ubusitani bugaragara neza, ni inyubako urebye eshatu gusa zishobora kuba zifite ibyumba byinshi kuko ari inyubako zo kwa muganga.

Inyubako nziza zigezweho zisize ibara ry'umukara ariko werurutse ndetse zifite n'irindi bara ryo gutukura hejuru kuri parafo ni umweru, hari ibyapa bitandukanye biyobora abantu baje kuhivuriza ko ari kwa muganga ndetse hari n'ubusitani bwiza.

Ibitanda byo kwa muganga biryamyeho abarwayi, hejuru yabyo hari inzitiramibu, ibitanda byose hamwe ni bine, icyumba gikoze neza cyane giteye irangi ry'umuhondo ndetse kinafite amarido atuma umuyaga utinjira utagera ku barwayi byoroshye.

Abagabo babiri umwe araryamye undi arahagaze, bose bambaye imyenda y'umukara, uryamye yambaye inkweto za siporo bari kumuvura biciye muri siporo kuko bari kumukandakanda munsi y'intege.

Umugabo uraramye, afite agacupa k'amazi ka plastike benshi bita agapipiri, agafatisha ikiganza kari ku munwa amazi ari kumujya munda nyine aciye mu kanwa. uyu mugabo afite ubwanwa butari bwinshi hasi y'umunwa, ku kananwa ndetse no hejuru umunwa munsi y'amazuru.

Igicupa cy'amazi meza, metero, ironge ndetse n'icyuma baterura bari muri siporo, bigaragara nk'aho bari kwigisha abantu uburyo bagakoze siporo ariko yubaka umubiri bashobora no kwirindamo indwara.

Umugabo wambaye umupira w'umweru wa rakoste, yiziritse ikintu ku kaboko bisa n'aho ari kwivura cyangwa hari ibindi agamije ariko bijyanye na siporo. Uyu mugabo yifashe ku kaboko k'iburyo yafatishijeho akaboko k'ibumoso, ategereje ko icyatumye ahambira akaboko kirangira.

Icyapa kiriho abantu batandukanye, hariho abarwaye umutwe, abarwaye mu matwi, ndetse n'abarwaye izindi ndwara zitandukanye, hariho abapfukamye, abicaye ku gitanda, abifashe ku mutwe, abipfutse mu maso, ababa bari gukanda kunda, ndetse n'abandi batandukanye.

Umugabo wicaye asa nkaho ari kwivura mu ivi arasa n'uwavunitse, uruhu rwe biragaragara ko atari urw'umwirabura usanzwe ashobora kuba ari umwarabu cyangwa umuzungu, yambaye imyenda yo kwa muganga ariko nyine ari kwivura biciye muri siporo.

Umugore ndetse n'umugabo bose b'abazungu, umugore wambaye agapira k'umukara ndetse umugabo akaba yambaye agapira akajya gusa n'umweru, bari kunywa amazi kuko ari muri siporo, amazi kandi tuzi ko atuma umuntu agira ubuzima.

Inkweto z'umukara nziza cyane, zifite amarase nyine yazo afungiyeho. Ni nkweto zimeze nk'zimwe z'abacunga umutekano, abasirikare, abapolisi cyangwa nyine abandi bambara bari ku mutekano kugira ngo badahungabanywa n'amahwa cyangwa ibindi bishobora gutobora inkweto bambaye. Ni inkweto zikomeye nziza cyane.

Umubyeyi uteruye akana, umubyeyi yambaye agapfukamunwa, ndetse umwana yambaye agapira k'umweru, umubyeyi yambaye isharupe y'umuhondo, imbere yabo hari umuforomo wambaye imyenda y'ubururu, ndetse n'agapfukamunwa, afite igikoresho cyo kwa muganga asa nk'aho ari kumusuzuma amaso.

Udukoresho tunyuranye two kwa muganga harimo ga abaganga bambara bagiye kuvura umurwayi kugira ngo batagira indwara banduzanya, uducupa turimo imiti itandukanye ndetse n'utundi tuntu tumeze nk'umuti w'amenyo ndetse n'utundi dushashi turimo imiti inyuranye.

Umugabo uhagaze wambaye ikabutura, arasa nkaho ari muri siporo, yiyanditseho ibintu ku ivi ry'iburyo akoresheje gome y'ubururu bwijimye ndetse n'umutuku utijimye cyane, asa nkaho ari muri siporo.

Amagambo yanditse mu ibara ry'umweru mu binyampande by'ubururu, agaragaza uburyo abantu bagakwiriye gukora siporo ku ibara ry'umweru hariho amafoto y'abantu agaragaza uko abantu bagakwiriye kugenda bakora siporo kuva kuri rimwe kugeza kuri gatandatu.

Umusore wambaye inkweto z'umweru, ikabutura y'umukara, umupira w'umweru ari muri siporo yarambitse akaguru hejuru y'icyuma ariko kitari kirekire, akaboko kamwe agafatisha mu rukenyerero akandi kaboko k'iburyo agafatisha ku kirenge ku mano nyine y'ikirenge cy'iburyo.

Akagare k'ababana n'ubumuga cyane cyane bw'ingingo nk'amaguru ndetse n'izindi badashobora kugenda, kari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umukara kakabafasha muri siporo ndetse no mu ngendo zabo zitandukanye.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu, afite n'umudari mu ijosi yambaye, afite n'agacupa k'amazi kuko ari kunywa amazi agira ngo agire ubuzima bwiza, urebye nyine yari ari muri siporo.

Ibyatsi bitandukanye harimo ibifite indabyo z'umuhondo, iz'iroza ibindi bikagira ibibabi binini by'icyatsi, ibi byatsi bishobora kuba bivamo imiti gakondo abantu bashobora kwivurisha indwara zinyuranye.

Ibimera bitandukanye, biri mu moko cumi n'abiri, bishobora kuvamo byose imiti gakondo, abantu bashobora kwifashisha bivura indwara zigiye zitandukanye, cyane cyane nk'abakecuru, babandi bakunda gukoresha imiti itari iyo kwa muganga, ibi bimera birabafasha cyane.

Ibimera bitandukanye harimo ibirandaranda hasi ku butaka, ndetse n'ibimeze nk'ibiti nyine bikura bijya hejuru, byose bigaragara ko ari imiti gakondo abantu bashobora kwifashisha bivura indwara zinyuranye, batagombereye kujya kwa muganga.

Ibicupa ndetse n'udukarito turimo imiti gakondo, hari irimo isabune ishobora kwifashishwa mu koga umubiri ndetse n'isura muri rusange ndetse n'indi miti ishobora kwifashishwa iyikozwe n'igikakabamba ndetse n'indi y'ubundi bwoko butandukanye nk'avoka.

Iduka ricuruza imiti gakondo ariko yatunganyijwe neza, iri mu ducupa tunapfundikiye neza umugore uri gucuruza yiteza igitambaro cy'umweru, imbere ye hari umugabo watebeje, yambaye imyenda ijya gusa n'umweru wijimye, yaje guhaha.

Imiti gakondo yatunganijwe iri mu icupa ry'umutuku ripfundikijwe umufuniko w'umweru, hirya y'aho gato hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, hirya hari n'ibara ry'icyatsi. Hirya hari icyapa cyerekana ko habaho igabanyirizwa kubabiguze, ni icyapa kigizwe n'ibara ry'umutuku.

Uducupa dutandukanye harimo twa pulastike ndetse n'uducupa nyine dukomeye tw'icupa nyacupa, turimo imiti gakondo itandukanye abantu bashobora gukoresha bivura indwara nazo zitandukanye, duteretse ku buryo tudashobora kwangirika.

Ibibabi bitohagiye cyane bigaragara ko ari imiti gakondo abanyarwanda cyangwa abandi bantu bashobora kwifashisha bivura indwara gakondo, biteye mu murima mwiza cyane bisa nk'aho ari byinshi cyane.

Ibikarito ndetse n'ibindi bintu birimwo ibintu by'imiti gakondo, inyuma yabyo hari umusozi ufite ubwatsi, ubwatsi bwiza cyane bigaragara ko ari nk'icyayi giteyeho gishobora kuba na cyo kiri mu miti gakondo.

Ibicupa ndetse n'udukarito turimo imiti gakondo yatunganijwe neza, ibicupa birasa n'umuhondo ariko biriho ifoto y'igikakarubamba, mu gihe ibikarito bifite ibara ry'icyatsi n'umweru, na byo bikaba bigaragara neza, umuntu ashobora kubyizera.

Ibikarito bitandukanye biri hamwe bimeze nk'aho birimo imiti gakondo n'ibikarito bimwe bijya kuba icyatsi ibindi bikaba ubururu, ariko byose nyine bikaba bihuriyeho ko birimo imiti gakondo, inyuma yabyo hari umusozi uteyeho icyayi bisa n'aho icyo cyayi nacyo gishobora kuba cyavamo imiti gakondo.